Irembo payi aho wishyura ukoresheje nimero yawe ya Eyateli, aho ushyira nimero handitse zeru karindwi kabiri niho ushyira nimero za telefone ukoresha mu kwishyura kuri Eyateli mani. Hari uburyo bwinshi butandukanye bwo kwishyura hari Emutiyeni mobayilo mani na Eyateli mani n'uburyo bwa debiti kadi, n'uburyo bwo kwishyura kashi ndetse n'ubwa banki busanzwe.